Umukobwa ukiri mutoya wicaye imbere y'gikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka mudasobwa ari kwiga, yambaye impuzankano kandi yambaye n'agapfukamunwa k'ubwirinzi bw'indwara zigenda zitandukanye zigenda zaduka.